UREA Organic Gardening ni nziza cyane kubera ko iba irimo inyanya nyinshi kandi ibi bigufasha gukora isosi iryoshye kandi biba biryoshye.

Amafi araryoha cyane. Cyane cyane iyo wayakaranze ukayatekana n'ibindi bintu, araryoha cyane cyane. Akenshi akunda kuba ari matoya kuko aba atari menshi.

Ibirwa ni byiza cyane kubera ko iyo ubituyeho uba uri kurebera mu mazi, kandi iyo ubituyeho uba ufite umutekano kubera ko nta n'ibintu byo kugutesha umutwe biba biriyo cyane ko haba hariyo akayaga keza ko mukiyaga.

Ifi iyo irimo agasosi ukayikoresha ubugari biba biryoshye cyane, kandi biba bifite intungamubiri, kubera ko ifi yifitemo ama vitaminini menshi ikoranye nayo, bitumaga igira ama vitamin menshi.

Amafi ni ingirakamaro cyane, kubera ko iyo wayariye ugira ubuzima bwiza, kandi iyo wayariye uruhu rwawe rugenda ruranyerera kubera ko intungamubiri uba uzifite, kandi aryohaga cyane.

Hari amafi araryoha cyane iyo wayatetse neza ugashyiramo agasosi kararyoga cyane pe! Nawe ndikukugira inama yo kujya uraza ukagura amafi ukayateka neza ukayatekamo ubunyobwa n'indagara n'ibi....

Indagara ni nziza cyane, kubera ko uziteka mu mboga kugira wongere amavitamini mu mboga. Kandi indagara ziba nziza iyo waziseye, ukajya uzishyira mu mboga z'umwana ukiri muto cyane, bituma akura neza.

Ifi n'agasenda biragendana cyane, cyane cyane iyo ushyizeho na ka tungurusumu ugasukiraho n'agatunguru biba biryoshye cyane, ifi, agafi karinda indwara kandi kakagiramo amavitamini atuma umuntu abaho neza.

Ifi iraryoha cyane kubera ko yubaka umubiri, kandi ikarinda indwara. Cyane cyane iyo wayirishije indimu, ndetse na twa sereri. Iba iryoshe cyane cyane. Mbese utariye ifi nta yindi ndyo wazarya ngo wumve iryoshye cyane.

Udusambaza turaryoha cyane cyane iyo badutetse mu mboga, imboga cyane cyane harimo nk'udukaroti ugashyiramo n'ubunyobwa, biba biryoshye cyane kandi bigira intungamubiri cyane cyane ku bana. Iyo waduseye ukadushyira mu mboga z'umwana akura neza, kandi akagira agasura kanyereye cyane.

Ifi iraryoha cyane, cyane cyane iyo wayitetse mu mavuta, ukayikaranga warangiza ugashaka n'ubugari ku ruhande, ukaza ukayirisha. Iba iryoshe cyane, kandi igira intungamubiri n'amavitamini bituma umuntu agira uruhu rwiza, kandi akagira ubuzima bwiza.

Amafi araryoha cyane kubera ko agira intungamubiri kandi iyo wayatetse ugakaranga neza, warangiza ugakora n'ubugari ku ruhande bwo kukarisha, ibyo kurya biba biryoshye cyane kubera ko biba ari intungamubiri.

Udufi turaryoha cyane kandi tugira intungamubiri kubera ko iyo wadutetse neza, ugashyiramo n'ibindi birungo, bituma ziryoha cyane kandi zikagutera n'intungamubiri zibamo n'amavitamine.

Amafi araryoha cyane kandi agira intungamubiri, iyo wayatetse neza ukayakorera n'isosi warangiza ukagura n'ubugari ugakora ubugari bwo kuzirisha, biba biryoshye cyane.

Ubwato budufasha kwambuka ikiyaga cyangwa kuba twajya gushaka abarohamye mu kiyaga, dore ko ubwato bwirukanka cyane ugereranyije no kuba wazenguruka ahantu henshi.

Avoka zigira umusaruro cyane cyane, kubera ko zera amavoka bakoramo isabune, ndetse avoka bakoramo n'amavuta yo kwisiga, avoka mbese ni ingirakamaro cyane.

Isombe ni nziza cyane kubera ko ibamo intungamubiri, iyo wayishesheje ukayiteka, ugashyiramo ikinono cyangwa ukaguriramo ibigufwa biriho akanyama gake, biba biryoshye.

Ibishyimbo iyo biri kumerera ahantu hari ifumbire, bimera bisa neza cyane, kuko iyo ubirebye ubona bizera, kandi ukabona bifite icyizere ko bizakomeza bigakura neza, bitewe n'uko aho babihinze hariho ifumbire.

Imigano ni myiza cyane kuberako bayikoramo indabo zo kudekora nk'ahantu runaka, kandi imigano ivamo ibitanda byo mu cyaro cyane cyane ahantu hataratera imbere.

Insina zigira umusaruro zeraho ibitoki bitera imbaraga mbese iyo waziteye ugira umusaruro, zeragaho ibitoki bivamo urwarwa, erega nazo bazikoresha bari gukora ibitanda bya kinyarwanda bya kera no kudekora.

Insina ni nziza cyane, kubera ko insina zera ibitoki tukabirya, kandi zivaho ibivovo bikaba ubwatsi bw'inka. Kandi insina iyo wazitayeho neza zigira umusaruro.

Ibirayi iyo bitangiye kuyanga babitera umuti kugira ngo bikure neza, kandi bigire n'ibirayi binini, ibirayi iyo bitangiye kuyanga kandi biba byatangiye gushora hasi haba hariho uturayi dutoya.

Ihene zigira umusaruro cyane, kubera ko ihene iyo zibyaye zikunda kubyara abana babiri cyangwa batatu, iyo zariye neza cyane, ihene kandi zirahenda iyo uzifite uba ufite amafaranga menshi, kubera baziryamo burusheti.

Ubwatsi buratohagiye cyane cyane wazana inka ikaza ikaburya kuko inka zirabukundaga cyane, kandi ziraburya neza, zikaba zaduha amata tukinywera.

Ibiti ni byiza cyane, kubera ko bidufasha kuba twabona ibishingirizo byo gushingiriza ibishyimbo, kandi ibiti iyo byakuze urabigurisha ukabitwikamo amakara, cyangwa bakabibaza ukabona amafaranga.

Insina ni nziza cyane kubera ko zera ibitoki, kandi iyo ibitoki byeze havaho ibivovo by'inka, bityo ibyo kurya by'inka bikaboneka. Kandi ibitoki bivamo urwagwa bikavamo n'imineke.

Imigano ikunda kwera ahantu hari ifumbire, cyane cyane ko imigano yera mu gihe kirekire kandi izamura mu bukire, kubera ko iyo afashe iraramba.

Ibirayi biraryoha cyane, cyane cyane iyo babitetsemo agafiriti biba biryoshye kandi iyo ubirishije inyama, biba biri kugaragara neza kandi biba biryoshye, ugereranyije n'ibindi bihingwa.

Isoko ry'ibiribwa tuguramo imiteja, tukaguramo, intoryi, tukaguramo n'ibindi bitera imbaraga umubiri, ibirinda indwara n'ibyubaka umubiri.

Igitoki gitera imbaraga, igitoki kandi iyo wagitaze kivamo imineke, igitoki iyo wakiriye wumva umeze neza ,ufite imbaraga kandi ukora neza.

Iyo uvomereye ibihingwa byawe, bikura neza, cyanee cyane iyo izuba rivuye ukagenda urabimeneraho amazi, birushaho gutohagira, maze ukagira umusaruro, ukarusha abandi batavomereye.

Imineke ya kamara ziraryoha cyane, kubera ko zibamo vitamini kandi iyo wayiriye wumva wakomereza ukayirya, kubera ko iba iryoshye, ugereranyije n'indi mineke kandi ikunda...

Ibirayi biraryo cyane, cyane cyane iyo ubitetsemo agafiriti biba bisa neza. Kandi ibirayi iyo wabivanze n'ibishyimbo uteka akavange kameze neza, karimo n'intungamubiri.

Voka ziraryoha ,zigira na vitamine ,cyane cyane iyo uyisatuye ugasanga ntamazi arimo, iba iryoshye iba iryoshye cyane, cyane cyane kandi igira ibamo n'intungamubiri ,buriya abantu benshi ariko ntabwo babimenya.

Inka zigira umusaruro mwinshi cyane kubera ko zibyara inyana, zitanga amata, zitanga n'ifumbire, mbese inka zigira umusaruro mwinshi cyane ugereranyije n'izindi.

Ibigori bigira umusaruro, kubera ko abahinzi iyo babyitayeho neza cyane, byera bikera ibigori binini bigatuma umusaruro wiyongera, kandi ibigori byera vuba bigatuma ibyo kurya biboneka, cyane cyane ko bivamo kawunga, kandi bagasyamo n'igikoma cy'abana.

Inyanya zirera, zikunda kwera mu majyaruguru cyane, zikunda kwera, ziraryoha iyo wazitetse, iyo wazitetse ukazishyira nko mu nyama, ukazishyira mu birayi, ziraryoha, ziraryoha pe.

Indimu ni nziza cyane kubera ko zongera aside mu mubiri, igufasha kugira ngo uhangane n'ibirwararwara kandi, zituma ugira mu mihogo hameze neza hatarimo amamikorobe kandi ukavuga neza.

Ibirayi biraryoha cyane, cyane cyane iyo wabitetsemo agafiriti cyangwa ukabibitogosa ugashyiramo utunyanya, ugashyiramo n'udukaroti waturapye ibintu biba biryoshye cyane, mbese ibirayi biraryoha ugereranyije n'ibindi biribwa.

Inkwavu ziraryoha cyane, noneho kuzorora ,ziroroha, ntabwo zigoye cyane, ntabwo zigora no kuzorora, no kuzishakira ubwatsi biba byoroshye cyane ugereranije n'inka.

Ibigori bigira umusaruro mwinshi cyane, kubera ko iyo wabihinze wifashishije ifumbire, kandi ukazabyuhera neza ukoresheje indi fumbire bigira imbaraga nyinshi.

Ibishyimbo by'imiteja birinda indwara. Iyo ubiriye ugira ubuzima bwiza kandi icyo nabonye cyo ni uko iyo ubiririye bituma bikurinda indwara, kurwara bya hato na hato ndetse n'ibindi byose.

Amapera ni meza cyane, cyane cyane iyo atukuye, kuyarya wumva ameze neza cyane, kandi agiraga ama vitamini, iyo uri kuyahekenya, amapera kandi abana ba bayakunda n'ababyeyi barayakunda.

Ubworozi bw'inkoko buraho burungura cyane, kubera ko zitera amagi, zimwe zikaba ari iz'inyama ahandi ushiramo ibintu Kumabarizo havamo ifumbire, yari inkoko kandi ziteraga na kabiri ku munsi.

Intama za derine ziba nini cyane iyo wagiye urazana nka veterineri akazitera inshinge akanaziha ni ibinini mbese intama za derine ni nziza cyane.

Ibinyomoro bigira intungamubiri cyane, kubera ko byongera n'amaraso mu mubiri, bakunda no kubitegeka abantu barwaye, kuko bituma amaraso yiyongera, kubera ko iyo warwaye uba watakaje intungamubiri nyinshi, kandi n'umubiri uba wacitse intege.

Ibigori ni byiza cyane, kubera ko iyo wa byokeje biraryoha, cyane cyane iyo ubyokeje ku mbabura, kandi ukaba wabyokeje neza.

Amatunda araryo cyane. Cyane cyane iyo yatukuye asa nk'umukara. Amatunda araryoga pe! Arinda n'indwara yubaka n'umubiri. Kuko ari mu mbuto nziza ziryoha cyane ugereranyije n'izindi.

Ibishyimbo ni byiza cyane kubera ko bigira amavitamini, kandi iyo babiriye birinda indwara. Byifitemo amavitamini menshi atuma abantu benshi bakunda kubirya, bitewe n'uko ari ingirakamaro.

Iyo ibigori bikiri bitoya, biba bisaba kugira ngo tubibagare dushyireho ifumbire, kugira ngo bizamuke bifite imbaraga nyinshi bizatange umusaruro, kandi ni byiza ko tubibagara tukagenda tubishyiraho n'itaka ryinshi.

Ibigori ni byiza cyane cyane. Kuko bite imbaraga iyo wabiriye，ugira imbaraga，imbaraga，ugakorana imbaraga cyane cyane cyane. ikigori， ikigori ni cyiza cyane， kivamo kawunga，iyo wacyokeje noneho ku mbabura.

Ibirayi biraryoha cyane ,cyane cyane cyane cyane ibyo mu Ruhengeri ibirayi bya Kinigi, ibirayi biraryoshye cyane cyane iyo wabihinze ubirya ntakibazo bitera imbaraga ,iyo wabiriye mbese uhora ufite akanyamuneza.

Amajeri'uruyogi araryo cyane. Cyane iyo wayatetse ukagerekaho ibirayi wabitetse amaganda biba biryoshye cyane. Kandi uruyogi ruraryoha iyo warukaranze.

Ingemwe z'imisave ndetse n'ibind biti bahinga kugira ngo birinde isuri, ndetse n'ibindi ni byiza cyane, kubera ko iyo wabihinze bikura vuba, kandi bikazaguha amafaranga.

Voka ziraryoha cyane, kubera ko iyo uzirishije ibijumba cyangwa ukazirisha ibirayi, biba biryoshye cyane kandi voka zigira intungamubiri, dore ko zitera imbaraga.

Abayobozi iyo baje mu bintu by'ubutembere bari kureba ukuntu imvayironimenti imeze, baragenda bakagenda basuzuma bakareba uko imimerere y'imyaka, cyangwa uko abaturage bafata imyaka.

Imyumbati iraryoha cyane kandi imyumbati itera imbaraga, imyumbati iyo wayiriye wumva umeze neza kandi ugira imbaraga nyinshi, cyane cyane iyo ukora akazi gasaba imbaraga, nko guhinga cyangwa kwikorera.

Ibigori bigira umusaruro mwinshi cyane kuberako byera mu gihe gitoya kandi biba bihendutse mbese turabirya we! ushobora kubirya bitari byera bikiri urukoto, cyangwa ukagenda ukazabitegereza ugakora akawunga akaba ariyo urya.

Imbuto ni nziza cyane kubera ko zituma tugira ubuzima bwiza, imbuto zituma ubuzima bwacu bugenda neza kandi zimwe zikarinda indwara, bitewe nuko ziba zifitemo amavitamine agiye atandukanye.

Intoryi ni nziza cyane, kubera ko iyo uzitetsemo imboga ziba zimeze neza, cyane cyane iyo waziguriye utu nyanya, ukazigurira n'udukararoti two kuzivanga na zo ziraryoha.

Ibigori iyo byumiye mu murima biba byeze neza cyane, kubera ko ntabwo baba barabitemye ngo babiteme bireze. Mbese akawunga kabivuyemo kaba karyoshye, kandi karatububuka kubera ko ibigori biba byeze.

Wotameroni iraryoha cyane, wotameroni iraryoha cyane, cyane cyane iyo uyiriye nk'ubu warufite umwuma cyangwa warunaniwe cyangwa warumeze ukuntu, wumva ubaye neza, cyane cyane iyo izuba riri kuva cyane, biba bisaba ngo uzajye urarya wotameroni.

Ibigori bigira umusaruro cyane cyane iyo wabyitayeho, ukabyuhiza ifumbire, kandi ukazahora ubisura kugira ngo urebe ko shokungwa itabyatatse. Ibigori iyo ubyitayeho neza bigira umusaruro ku buryo byagukiza.

Ibijumba biraryoha cyane cyane cyane iyo wabihase, ukabitekamo agafiriti, biba biryoshye. Cyangwa ukabigereka ku bishyimbo, iyo umaze gutsimba ibishyimbo ukagerekaho ibijumba, biba biryoshye. Kandi ibijumba biryoha iyo wabitekanye n'ibishyimbo, cyangwa aho wabitekanye n'ibirayi.

Ibirayi ni byiza cyane kubera ko biraryoha. Iyo ugiye kubirya usanga ibirayi byazanye umumeri hasi, utuma ubirya wumva umeze neza.

Imineke ni myiza cyane kubera ziryoha, kandi abana barazikunda, n'ababyeyi barazikunda, abagabo barazikunda, mbese abantu bose barazikunda kubera ko ziryoha.

Aya matunda arinda indwara ,ni imbuto nziza cyane ,ahingwa ahantu hataba ifumbire nyinshi. Iyo bayahinze aratukura agasa nk'umutuku.

Soya igira intungamubiri nyinshi kubera ko yifitemo ubushobozi bwo kuba bayivanga mu gikoma hanyuma igatera igikoma kuba cyakwiyongera ku mavitamine ku bana.

Ibirayi bitanga umusaruro, byera mu mezi atatu gusa bikaba byeze, ibishyimbo na byo ni uko mbese kubihinga urunguka cyane ,byera mu gihe gito cyane, rero ni ukujya duhinga ibirayi ,tugahinga n'ibishyimbo.

Inkwavu zigira umusaruro cyane. Kubera ko zibyara abana benshi, kandi kuzorora biba byoroshye cyane, kubera ko zitagora, kandi nta bwo zirya ibyatsi byinshi ugereranyije n'andi matungo.

Inoryi ni nziza cyane, kubera ko tuziryamo imboga iyo tuzivanze n'izindi mboga nka karoti, cyangwa za seleri, turabivanga tugakora imboga ziryoshye, kandi iyo dushizemo ubunyobwa, na za sotomate, biba biryoshye.

Avoka ziraryoha cyane kandi zigira intungamubiri. Iyo wazirengeje ku biryo, kandi zituma utarwara indwara y'umutima. Ni ingenzi cyane bazikoramo n'amasabune n'amavuta yo kwisiga.

Ingurube ni nziza cyane, kubera ko zororoka, kandi kuzorora ntabwo biba bigoye cyane, kubera ko ibyo kurya byazo biba bihari, ugereranyije n'iby'andi matungo agorana kuyora.

Imyumbati iraryoha cyane. Cyane cyane iyo wayigeretse ku bishyimbo cyangwa ukayigereka ku birayi n'imyumbati biba biryoshye cyane. Bitera imbaraga. Imyumbati itera imbaraga cyane iyo wayiriye kururwa cyane

Biringanya ziraryoha cyane kubera ko iyo uzihase warangiza akazikatagura neza, ukazivanga n'intoryi, ugakatiramo udutunguru, ugashyiramo na tungurusumu, ziba ziryoshye cyane kubera ko zigira n'intungamubiri.

Amahema twanikaho amasaka, cyane cyane mu gihe iyo amasaka yeze, tugenda dushaka amahema tukanikaho, kugira ngo amasaka tuyabike yumye neza.

Amateke aryoha cyane. Atera imabaraga. Iyo wariye wumva ufite imbaraga ,wumva umeze neza. Ntabwo upfa gusonza. Amateke mbese agira amafu cyane cyane.

Imyumbati itera imbaraga iyo wayiriye, iyo wagiye nko guhinga uhinga ufite imbaraga nyinshi, niba urajya nko kunyonga cyangwa urajya kwikorera imizigo wikorera ufite imbaraga nyinshi cyane imyumbati ivamo ubugari.

Voka ni nziza cyane, kubera ko voka ziraryoha, iyo ugiye kurya ugafata akavoka ukagakatiraho ku turyo, ari bwo ugiye kurya nk'umuceri biraryoha cyane, kandi voka bazikoramo amasabune n'ibindi.

Inyanya ni nziza cyane kuko zituma iyo wazitetse mu biryo biraryoha, kandi inyanya zituma ibiryo bisa neza, ukabireba ukabona biri gusa neza, mbese iyo watetse ibiryo ugashiramo inyanya biba biryoshye cyane.

Insina ni nziza cyane kubera ko iyo wazitayeho zera ibitoki binini cyane. Cyane cyane ko iyo ibitoki wabyitayeho ukagenda ubishyiraho ifumbire, kandi ukirinda ko byagwa utari wabishyiramo integezo, birera cyane.

Ishu riraryoha cyane, cyane cyane iyo warikaranganye n'udushyimbo, ugashyiramo utunyanya, ugashyiramo n'uturagara, zigira imboga ziryoshye cyane, kandi ibishishwa by'ishu tubiha inkwavu ndetse tukabiha n'ingurube.

Karoti zituma abana bareba neza, kandi zituma n'umuntu mukuru iyo azirya ntabwo agira ikibazo cyo kutareba ahantu harehare, bitewe nuko zigira vitaminini ituma umuntu areba neza, kandi zituma abantu benshi bagira intungamubiri, cyane cyane ko iyo zivanze n'imiteja, ugashyiramo na za beterave ukavangamo n'ibindi bituma indyo iryoha.

Voka ziraryoha cyane, iyo uziciye zeze neza urazitara zigahita zishya, kandi ziba ziryoshye kubera ko uba waziciye, zeze neza nta kibazo zifite.

Ikawa y' u Rwanda iba ari nziza abayihinga babona umusaruro kuko irahenda cyane, iyo wayihinze ukuramo amafaranga, ku kiro kuko yera cyane ahantu hakonja cyane niho ikunda kwera.

Ibirayi ni byiza cyane, kubera ko biraryoha kandi bi bitera imbaraga. Iyo wabitetsemo agafiriti ukakarisha akanyama, wumva umeze neza cyane. Ibirayi kandi byera vuba kandi bigatanga umusaruro.

Ibipapayi ni byiza cyane, kubera ko bigira intungamubiri, kandi bikaba bituma umubiri ugira ubudahangarwa, bitewe n'amayelema elema ziba mu bipapayi.

Ibigori bigira umusaruro mwinshi cyane, bivamo Kawunga, kandi tubinywamo n'igikoma, akenshi e akawunga kaba kameze, kaba kameze neza cyane, kuko iyo ukariye ugira imbaraga, kandi ibigori byera vuba, bigatanga n'umusaruro.

Karoti zigira intungamubiri kandi abantu bazirya bareba neza, nta mwana uba warazamutse ari kurya mu mboga, ari kuryamo karoti akagira ikibazo cyo kutareba, kubera ko ikungahaye ku ma vitamine.

Ababagara umuceri barakora cyane kubera ko bakoresha imbaraga bakoresha n'ubusuka buba bufite amenyo menshi, kugira ngo bakuremo ibyatsi, bakuramo ibyatsi kugira umuceri uzamuke neza.

Ibijumba biraryoha cyane kandi ibijumba bitera imbaraga, iyo wabiriye ugiye nko kwikorera imizigo, uyikorera ufite imbaraga nyinshi cyane kubera ko uba wariye ibijumba. Ibijumba kandi iyo wabitetse neza ukabigereka nko ku birarayi, ku birarayi n'ibishyimbo urabirya ukumva bimeze neza.

Amatunda araryoha cyane, kandi agira intungamubiri, dore ko yongera amaraso ku bantu baba barwaye, babategeka kurya amatunda, kugira ngo ubuzima bwabo bwongere busubire uko bwari bumeze.

Ubworozi bw'ingurube ni bwiza cyane, kubera ko ingurube zororoka vuba kandi iyo uzoroye ziguha umusaruro vuba, mu gihe gitoya ugereranyije n'ayandi matungo.

Ibisheke biraryo cyane, cyane cyane iyo ufite nk'umwuma ukabihekenya wumva umeze neza, cyangwa iyo wumva ubishaka kubihekenya, ukabigura biraryoha ugereranyije.

Amasekurume y'ihene aba afite ubwanwa bwinshi, kandi aba afite imbaraga nyinshi. Agaragara neza iyo bagiye kuyaryamo burusheti. Aba asa neza cyane kandi araryoha.

Agasoko dukunda kuguriramo ibitoki. Ibitoki biraryoha cyane. Agatoki gatetse ugashyiramo ubunyobwa, ugashyiramo n'amakaroni kararyoha. Kandi igitoki wanakibika, wanagitara kikavamo imineke ukazajya uyirya.

Amaronji ni meza cyane, kuko atuma ugira ubuzima bwiza, mbese iyo wayariye, wumva umeze neza, kandi iyo wayariye, ugira ubuzima bwiza, ntupfe kurwara rwara, dore ko ari n'intungamubiri.

Imiteja igira intungamubiri, kubera ko iyo wayiriye wumva umeze neza. Iyo wayivanze n'udushyimbo, ugashiramo n'udukaroti ziba ziryoshye, kandi zigira intungamubiri.

Ibijumba biraryohaha cyane, cyane cyane ibijumba biba bisa umuhondo mu nda, iyo ubitetsemo agafiriti ntabwo wabivaho, bitewe n'uburyohe biba bifite, buri wese aba yumva yakomeza akabirya.

Amateke araryoha cyane. Atera imbaraga, amateke iyo atetse n'ibishyimbo. Ibishyimbo watetse uwo munsi. Hanyuma ugahita ugerekaho amateke. Biba biryoshye cyane.

Kokombure zigira intungamubiri cyane iyo uzihekenye ari mbisi, kandi ibidodoki nabyo bigira intungamubiri dore ko bikungahaye ku ma vitamine.

Intoryi ziraryoha cyane, cyane cyane iyo wazitekanye na puwavulo, ukazitekana n'uduteja, ugatekana n'indimu bitetse byose biba bimeze neza kabisa, kuko biba ari indyo yuzuye ibirinda indwara n'ibyubaka umubiri.

Ibirayi birera cyane cyane mu Ruhengeri mu Kinigi birera cyane, kandi ibirayi bitera imbaraga, ibirayi kandi byera vuba cyane kuko mu mezi atatu biba byamaze kwera. Ni igihingwa cyiza cyane cyo guhinga ushaka iterambere.

E, amashu araryoha, araryoha cyane， arinda indwara，amashu kuyahinga，yerera igihe gitoya cyane， iyo wayahinze agira umusaruro， kandi ntabwo apfa kubura isoko. Iyo yabaye menshi uhamagara imodoka， ikaza ikayapakira，ikayakujyanira ku isoko.

Imiteja irinda indwara, yubaka umubiri, mbese iyo wayihinze ugira amafaranga menshi cyane. Ikunda kwera ku bishyimbo. Ni ibishyimbo biba ari iby'imiteja gusa. Ikunda kwera ahantu hari ifumbire nyinshi.

Ibigori ni byiza cyane kubera ko ba ubikoramo kawunga kandi babisyamo n'igikoma, cyane cyane iyo babivanze n'amasaka bagashiramo na soya, bagashiramo n'ibindi, bituma igikoma kiryoha cyane.

Imiteja irinda indwara igira vitamini, iyo wariye ntabwo upfa kurwara ibirwara biterwa n'imirire mibi, iyo wayiriye mbese ugira ubuzima bwiza.

Amasaka ni meza cyane, kubera ko amasaka avamo amamera, amamera hanyuma bayinika akavamo ikigage, kandi amasaka iyo yumye barayahura bagastyamo igikoma cy'abana, iyo iyo bayavanze na soya cyangwa bakavanga n'ingano.

Ibishyimbo ni byiza cyane, kubera ko iyo tubitetse bigira intungamubiri. Kandi ibishyimbo iyo babihinze birera cyane, iyo babiteresheje ifumbire y'imborera ni'mvaruganda bigira umusaruro.

Imiteja irinda indwara, yubaka umubiri kandi iyo wayiriye iyo wayitekanye n'utunyanya iba iryoshye iraryoha pe.

Ibishyimbo by'amabara biba bigaragara neza, kandi biba biryoheye amaso kureba, kandi biratubuka iyo wabitetse ukabigerekaho ibirayi, biba biryoshye cyane.

Ingano ni ibihingwa byiza cyane kubera ko iyo byeze bivamo ifarini, kandi babikuramo umutsima uryoha cyane, kandi ingano bazisyamo igikoma cy'abana.

Imiteja iraryoha cyane kandi imiteja igira intungamubiri. Iyo wayitekanye n'udukaroti ugashyiramo n 'udushyimbo biraryoha cyane.

Amasaka ni meza cyane kubera ko avamo ifu y'igikoma. Kandi amasaka iyo bayinitse avamo amamera bakoramo ikigaye maze tukakinywa kandi amasaka bagakoramo ifu bashira mu rwarwa kugira ngo ruryohe kandi ururyoshye.

Aya masaka avamo ikigage, akavamo ubushera, akavamo ndetse n'igikoma, mbese amasaka ni meza cyane kuko, avamo ikigare kiryoshye cyane.

Ingano ni igihigwa cyiza cyane, kubera ko bagikuramo ifarini, kandi ingano zivamo umutsima wazo, hakavamo n'imbada zo baba bakoze mu ngano. Kandi zera vuba zigatanga n'umusaruro.

Amasaka agira umusaruro cyane kubera ko amasaka tuyasyamo igikoma cy'abana, cyane cyane amasaka tuyasyamo ifu yo gushyira mu rwarwa kugira ngo rushye, kandi amasaka iyo tuyinitse havamo amamera.

Ibinyampeke bigira umusaruro cyane, kandi bigira ingirakamaro ibishyimbo birinda indwara, kandi byubaka umubiri, iyi soya, soya irinda indwara kandi byubaka n'umubiri mbese ibinyampeke ni byiza cyane, kuko byinshi bayisyamo n'igikoma, n'iyi soya bayisyamo n'igikoma.

Ibishyimbo ni byiza cyane, kubera ko bigira intungamubiri kandi bikaba byubaka umubiri. Ibishyimbo kandi byera vuba, kandi bikagira n'umusaruro.

Ingano zivamo ibintu byiza cyane, nk'iyo baba bashyize imodoka igiye kuza kuzipakira, abantu bakoreraho amafaranga, bakaba baguramo n'utuntu n'utundi tuntu, twabafasha mu buzima.

Ubunyobwa ni bwiza cyane, kubera ko babusyamo bukavamo ifu yo gushira mu mboga. Kandi ubunyobwa buba buryoshye iyo ugiye kubuhekenya, kandi ubunyobwa bukunda kwera ahantu henshi.

Abanyozi bakunda gupakira ibintu byinshi cyane. Bapakira ibishyimbo, bapakira ibirayi, ibitoki, bagapakira ibirayi, mbese baba bakoze cyane. Kandi ibishyimbo bigira intungamubiri kandi bikarinda n'indwara.

Umusaruro w'ibishyimbo ni mwiza cyane, ibishyimbo birinda indwara, bigira amavitamini, ibishyimbo mbese iyo wabiriye, ugira ubuzima bwiza. Ibishyimbo kandi, bituma ugira ugira uruhu rworoshye.

Amasaka agira umusaruro cyane, kubera ko bayakoramo umusururu, kandi bayakoramo ubushera bw'abakirisitu. Amasaka kandi avamo igikoma cyo kugaburira abana.

Ubunyobwa ni bwiza cyane kubera ko iyo babuseye babushira mu mboga, bityo imboga zikaryoha cyane. Kandi ubunyobwa buryoha iyo babukaranze ukajya urabuhekenya.

Ibishyimbo by'amabara bikunda kuba biryoshye cyane cyane iyo babitsimbye bakabishyiramo agakukuri, ndetse kandi iyo byahiye nkubu bakagerekaho imyumbati cyangwa ibijumba, biba biryoshye cyane.

Ubuhinzi bw'ibishimbo ni bwizaza cyane, kubera ko ibishimbo iyo byeze turyamo intonore, kandi iyo byumye tubiryamo ibitsimbye, bituma tugira ubuzima bwiza, kandi iyo tubigeretseho ibijumba cyangwa imyumbati biba biryoshye.

Korora inkoko zigira umusaruro cyane. Kuko inkoko zitega amagi menshi menshi. Zororoka vuba gihe gito kandi zitanga ifumbire.

Ingurube ni nziza cyane, kubera ko zororoka vuba, kandi iyo wazoroye uba umukire byoroshye. Kubera ko iyo ibyaye ibyara abana benshi, kandi ziba zihenze ku isoko, kubera ko baba bashaka kuzirya akabenzi.

Inka ni ingenzi cyane, cyane iyo uyitaho ukagenda uyiteza inshinge ku ba veterineri, igira umusaruro kubera ko itagenda ihura n'ibirwara bishobora gutuma isubira inyuma mu mikurire yayo.

Ihene zigira umusaruro cyane, kubera ko ihene zibyara benshi, ihene kandi ntabwo zigorana kuzorora, ihene iyo bazororaga cyane, zibyaraga abana nka batatu.

Ingurube zigira umusaruro mwinshi cyane, kubera ko ingurube y'imbyeyi iyibyaye, ibyara ibyana byinshi, bigatuma utera imbere cyane, kandi ingurube ziba zihenze, kubera ko baba bazikeneye ari benshi.

Ingurube ni nziza cyane kuko zitanga umusaruro, zibyara vuba mu mezi atatu, zitanga urumva zitanga amafaranga menshi, ugereranyije n'ayandi matungo.

Ingurube zigira umusaruro cyane. Ingurube iyo wazoroye neza zigira umusaruro cyane. Zitanga ifumbire, zibyara ibyana byinshi, ku buryo wagurisha ukagira amafaranga mu gihe gitoya cyane.

Ubwana bw'ihene ni bwiza cyane kubera ko iyo bukuze butanga umusaro. Iyo ari agashashi karakura bakakimisha kakazabyara izindi, bityo ihene zikagenda zororoka buhoro buhoro.

Ubworozi bw'inkoko ni bwiza cyane, kubera ko inkoko iyo zorora uhora ufite amafaranga, kubera ko zimwe ziba zateye amagi, izindi ari iz'inyama, ukagenda uragurisha, rero ni byiza kuzajya ura zipima kugira ngo umenye ibiro byose zifite.

Ingurube ni nziza kuzorora kubera ko zitanga umusaruro, wa vuba. Noneho iyo ingurube zirwaye, uhamagara veterineri, akaza akazitera inshinge, bakaziha n'ibinini kugira ngo zikomeze zororoke.

Inka ni nziza cyane kubera ko zidufasha kubona amata yo kunywa byoroshye. Iyo uzorora ntabwo ubura amata yo kunywa kandi ziguha n'ifumbire byoroshye.

Inka ni nziza cyane kuberako ziduha amata, kandi zikabyara inyana zituma tubona inka zo gukwa, kandi inka iyo iyo bari kuzitera umuti zikunda gusimbuka cyane, kuko uyegereye ishobora kuba yakugwa hejuru.

Ingurube iyo zarwaye biba bishaka kugira ngo ugende uzivuze, kandi uzizanire Veterineri azitere inshinge. Inshinge zishobora gutuma ingurube zawe zongera kugira ubuzima bwiza.

Ingurube zitanga umusaruro, cyane cyane iyo ari inzungu zigira umusaruro zibyarira amezi atatu. Zikunda no kubyara ibyana byinshi. Kandi iyo wazoroye ukunda kugira amafaranga nebshi. Kubera zibyara mu gihe gito.

Ubu ni ubutireyi bw'amagi, amagi arinda indwara, iyo urya amagi ugira ubuzima bwiza cyane, ugereyije no kurya ibindi. Amagi rero aturuka ku nkoko.

Ubworozi bw'amatungo cyane cyane nk'izi ngurube, ingurube ziroroka cyane kubera ko iyo ingurube ibyaye ibyara nk'ibyana nk'umunani cyangwa ikabyara nk'ibyana icyenda ntabwo yaza mu byana munsi y'ibyana wenda nk'umunani kandi uri kumva ibyana by'ingurube bikura vuba kandi bigatanga umusaruro vuba.

Inka zigiraga umusaruro cyane, kubera ko ziduha amata, kandi iyo zibyaye inyana zazo ziba zifite agaciro kanini cyane, kubera ko inka tuzikenera mu buzima bwacu bwa buri munsi, kugira ngo ziduhe ifumbire kandi inka bazikoresha bari gukwa.

Ubworozi bw'intama ni bwiza cyane kubera ko intama zikunda kororoka kandi intama ntabwo zigora kuzorora, kubera ko uragenda ukazizirika mu kibara, warangiza kuzizirika ukazisigayo ziri kurya ukongera ukajya kuzenda nimugoroba zamaze guhaga.

Inka ni nziza cyane. Kubera ko iyo zabyaye tunywa amata, kandi zitanga ifumbire. Mbese iyo uragiye inka uba wumva umeze neza, kubera ko nta n'irungu ugira uravugiriza kugira ngo zirye cyane.

Inka ni nziza cyane kubera ko iyo inka iri mu rugo wumva umeze neza, kandi iyo ufite inka wumva ufite ubutunzi kubera ko inka iyo ibyaye n'indi ibyara indi, bikagenda byororoka bikarangira ugize inka nyinshi.

Korora ingurube ni byiza cyane cyane kuko zigira zitanga ifumbire, baziryamo akabenzi ndetse iyo uzoroye ntiwabura ifumbire. Ubaho neza kuko ntiwaburara n'igishoro zitanga amafaranga zibyara amafaranga vuba vuba cyane.

Ingurube zigira umusaruro kandi ingurube zororoka vuba, iyo wazoroye uzamuka vuba mu bukire, kubera ko iyo zibyaye zibyara abana benshi, batuma ugira amafaranga.

Inka ni nziza cyane kuko inka zitanga umusaruro zibyara inyana, inka iyo yabyaye, iyo zabyaye ziduha amata, amata kandi agira umumaro mwinshi mu mubiri.

Amagi araryoha cyane, cyane cyane iyo wayatetse ukavangamo n'agafiriti, bikaba bitekanye bifatanye biba biryoshye cyane, kubera ko uba wabiteguye neza kandi bituma ugira ubuzima bwiza.

Imbwa iyo yarwaye bazana veterineri hanyuma akayitera inshinge kandi akareba n'indwara ishobora kuba yarwaye kugira ngo ayivure kandi yongere igire ubuzima bwiza.

Ubukende bukurura ba mukerarugendo cyane. Kubera ko buba bugiye kumera nk' abantu. Abazungu barabukunda cyane， iyo baje kubureba batanga amafaranga，yatuviramo ibyo batwubakiramo， amashuri，ibitaro，imihanda ndetse n'ibindi.

Inyoni ziba zifite amabara menshi ziba zisa neza, kubera ko ziba ziryoheye amaso. Iyo uzibonye uba umeze neza, kubera ko ukomeza kuzitegereza, uri no kureba amabara azigize.

Inyoni ziba ziremwe bitangaje, kubera ko inyoni ubona imwe isa gutya, ejo ukabona iyindi, ibyo rero bituma abazungu baza mu Rwanda bakaza kuzireba, cyane cyane iziba ziherereye mu byanya nyaburanga.

Umuserebanya ukunda kugendera ku butaka cyane, wirira utuntu tw'udusazi, udusimba tundi dutoya cyane, cyane cyane zikunda kuba ahantu hashyushye kandi hanakonje.

Iyi misambi ikura ba mukerarugendo benshi cyane cyane cyane cyane abazungu ni bo baza baje kuyireba, nk'Abanyarwanda bamwe na bamwe ,Abarundi Abakongomani n'abandi benshi benshi kuza baje kuzireba, mbese urebye igirira akamaro igihugu cyane cyane.

Inyoni ziba zifite amabara atandukanye. Bityo bigatuma abakerarugendo bazikunda cyane kuzireba, kubera ko izo wabonye ziba zitandukanye n'izindi zo wongera kubona, bigatuma uhora ukunda kuza kuzisura.

Inyoni zifite amabara menshi zigaragara neza, mbese zikurura ba mukerarugendo batuzanira amadovizi, bigatuma akarere kacu ka Musanze karushaho gutera imbere, cyane cyane iyo haje ari abazungu benshi cyane.

Inyoni ni nziza cyane kubera ko zikurura ba mukerarugendo, kandi inyoni ziraririmba zigatuma abantu basusuruka mu gitondo. Igitondo cya kare iyo wumvise utunyoni turi kuririmba wumva biryoheye amatwi.

Inzoka ni inyamaswa mbi cyane kubera ko iraryana kandi iyo ikuriye ntibahatwike ushobora kuba wasara cangwa ukagira ibindi bibazo. Inzoka kandi ikunda kurya abantu cyane cyane ku izuba kubera ko iba ishushe.

Inyoni zigira amabara meza, kubera ko ari ubwiza Imana yaziremanye kugira ngo zijye ziratuma amaso yacu azireba, kandi amaso yacu aryoherwe, mbese inyoni ni nziza kuzireba.

Ubukende bukurura ba mukerarugendo kubera ukuntu buba bushaka kumera nk'abantu, rero iyo abazungu babubonye barishima cyane bigatuma bahora baza kubureba mu Rwanda tukinjiza amadovize.

Inyoni ziba mu biti, kandi zikurura ba mukerarugendo zigatuma baduha amadovize, bazana amadovize bigatuma igihugu cyacu cyubakira abatishoboye, kikubaka imihanda, kikubaka n'ibitaro byo kujya turajya kwivurizamo.

Izi nyoni ntabwo zipfa kuboneka ahantu hose, ziboneka mu rugezi no mu birunga ahantu ba mukerarugendo baza kuzisura baza baraza kuzisura mu Rwanda rwacu.

Ibisiga ni ubwoko bw'inyoni ziguruka mu kirere, kandi ziba zifite imbaraga nyinshi dore ko akenshi zikunda gutwara imishwi y'inkoko iyo ari mitoya cyane.

Inzovu ni inyamaswa nziza cyane, kubera ko ziba ari nini cyane, kandi zikunda kugira amahoro. Zikurura ba mukerarugendo, kandi icyiza cyazo ziritonda cyane, ntabwo zikunda, guhemuka bitewe n'imbaraga zigira.

Inyoni zigira amabara meza, cyane cyane iyo ziba ahantu hakonja ziba zifite amabara meza, zikurura ba mukerarugendo batuzanira amadovize, zigatuma batwubakira imihanda, kandi bakatwu bakira n'amashuri y'abana bacu kugira ngo bazajye kwigiramo.

Inyoni zikunda kuba ahantu haba ibiti, kugira ngo zigume ziragurukiramo kandi zarikemo ibyari byazo, kugira ngo zizaturagiremo abana bazo, mbese inyoni ziba zishaka, ahantu hari ibiti byinshi cyane.

Ubu ni ubukende bugira ubwenge bwinshi cyane. Iyo ububise ibintu buhita bubikugaruriza cyane .Nabwo ubwabwo bubagiye kumera nk'abantu. Ubukende bukurura bamukerarugendo.

Izi nyoni ziba mu Rugezi ntabwo ziba ahenshi Rwanda, ziba ahantu hake na hake kandi zikurura ba mukerarugendo ,ni yo mpamvu dukwiye kuzibungabunga, kugira ngo zizatugirire akamaro zikagirire n'igihugu cyacu.

Igikeri kiba mu mazi eeh! kikagira amaga. Kigira amagaragamba ndetse. Kigenda gishyira inda no hasi. Igikeri na cyo eeeh!

Inyamaswa zikurura ba mukerarugendo, kubera ko inyoni zigira amoko menshi, kandi abazungu bakunda kuzireba , iyo baje bakazibona bishyura amadovize.

Ingagi ni inyamaswa zikundwa cyane kubera ko zikurura ba mukerarugendo, kandi ni inyamahoro kabisa, kubera ko abantu bajya kuzisura bakazireba, bakazivugisha na zo zikabishimira.

Inyoni zikurura ba mukerarugendo bitewe n'uko ziba zisa, ejo ubona inyoni zisa ukundi n'ejo ukabona izindi, bityo bigatuma uhora ufite amashyushyu yo guhora ureba inyoni zigiye zifite amoko atandukanye.

Imvubu ziba ari nini cyane zifite n'akamaro, zigirira n'igihugu akamaro kuko zikurura ba mukerarugendo . Na we uzaze mu birunga iwacu uze urebe ibyiza bitatse u Rwanda.

Inyoni ni zimwe mu nyamaswa zikundwa cyane bitewe n'amabararagazo. Iyo zifite amabara meza abazungu barazikunda cyane, bigatuma abazungu baza mu Rwanda rwacu cyane cyane mu kinigi, ndetse no mu rugezi, kugira ngo baze kuzireba. Bakaduha amadoviye agatuma twiyubakira amashuri.

Inyoni ni nziza cyane kubera ko iyo ziri nko ku murongo uri kuzireba, wumva wakomeza ukazireba cyane cyane iyo ziri mu mabara atandukanye aryoheye ijisho.